Umwarimu ubona ko ari kwita ku bana bakiri batoya, aho ari kubaha inyigisho zigendanye n'ikigero cyabo, ni byiza ko abana bose bakiri bato bajyanwa ku ishuri kugira ngo babashe kwiga bakiri bato maze babone gukura bafite ubumenyi tugire abantu bajijutse.

Abana b'inshuke ubona ko bari kwigishwa ibintu bitandukanye kugira ngo bazabashe kugira ubumenyi, maze babashe gukura bafite ubumenyi buhagije, aho bari gukina imikino itandukanye, babifashwamo n'umurezi wabo. Ni byiza ko tujyana abana bacu kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi butandukanye.

Abana bari kumwe n'umubyeyi aho ari kubatoza abakinisha imikino itandukanye kugira ngo babashe kuba bajijuka bamenye n'imikino itandukanye, ni byiza ko abana bacu tubajyana mu irerero kugira ngo babashe gukura bafite kandi bajijutse.

Kujyana abana mu mashuri y'incuke, ni byiza kuko bifasha gutegura umwana, bikamuha n'ubumenyi kugira ngo azabashe gutsinda mu mashuri akurikiyeho, haba ayabanza ndetse n'ayisumbuye, ni byiza ko twita ku bana bacu tubajyana mu mashuri y'incuke.

Abana bakiri batonya aho bari guhabwa ubumenyi bw'ibanze, bitabwaho n'umubyeyi kugira ngo bazabashe gukura, bajye no mu mashuri abanza n'ayisumbuye bafite ubumenyi bw'ibanze. Ni byiza ko abana bose bakiri batoya bagana ishuri, kugira ngo bahabwe ubumenyi bakure bajijutse.

Abana ubona ko bavuye ku ishuri, abana bakiri batonya bavuye mu mashuri y'incuke kugira ngo bahabwe ubumenyi buzabafasha kujya mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, ni byiza ko abana bose bagana ishuri kugira ngo babashe kwitabwaho.

Abana ubona ko bateranirijwe ahantu hamwe bari mu irerero kugira ngo bahabwe inama ndetse n'ubumenyi bw'abana batoya kugira ngo bazabashe kujya mu mashuri abanza bajijutse kandi bafite ubumenyi bw'ibanze.

Abanyeshuri ubona bakiri abana, biga mu mashuri y'inshuke, aho bahurijwe hamwe kugira ngo bakine iby'abana maze bakine kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza kandi bidagadura maze bajijuke.

Abana bari ku ishuri ubona ko bari gukina bari mu gihe cyo kuruhuka, ni byiza ko abana bajyanwa ku ishuri kugira ngo bahure n'abandi kandi bahabwe amasomo azabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, twese rero hamwe tujyane abana ku ishuri.

Abana biga mu mashuri y'incuke, aho bari kumwe n'abarimu babo babigisha kandi babakoresha udukino tubafasha kwishimisha. Ni byiza ko aba bana bakomeza kwigishwa kandi n'abandi bana bakagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'inshuke, aho harimo abana bafite ibitabo, aho baje kwiga kugira ngo biyungure ubumenyi bahabwe ibitabo ngo bige gusoma, maze banarebe amashusho, ni byiza ko abana bacu bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi buzabafasha mu buzima bwabo.

Abana ubona ko bahurije hamwe, ubona ko bari guhabwa igikoma kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko abana bose bakurira mu irerero barerwa batozwa uburyo bakwijujura ndetse n'uburyo bakurana n'abandi bakina kandi bibafasha mu mikurire yabo.

Abana bafatanye ku rutugu ubona ko bari kujya kwiga kandi bose bari mu rungano, ni byiza ko abana bose bajya kwiga n'abatoya bose bakajya mu mashuri y'inshuke kugira ngo babashe kurerwa maze bakure bajijutse.

Umunyeshuri ari gukora ubushakashatsi kugira ngo abashe kubona ibisubizo by'ibibazo afite bigendanye n'amasomo kandi biba byiza guhabwa ibikoresho bihagije harimo nka mashini ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo umunyeshuri abashe gutsinda neza amasomo ye.

Ikigo cy'amashuri ubona cyubatse neza cyane ariko cyakira abanyeshuri bo mu mashuri abanza kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze, maze bazabashe kujya mu yisumbuye bafite ubumenyi bw'ibanze.

Igishushanyo ubona ki cya mudasobwa, aho bagerageje gushushanya mudasobwa imeze neza, ni byiza ko dukuza ubugeni bwo gushushanya, kugirango ubashe gutezi imbere, abafite impano.

Ikigo cyubatse neza ubona ko kirimo ibikoresho bifasha abanyeshuri gukina kandi kikabafasha no kwidagadura, aho abanyeshuri baba bari gukina mu gihe cy'akaruhuko kugira ngo babashe kuruhuka. Ni byiza ko abana bose bagana ishuri kuko ari ingenzi.

Ibiro ubona ko bikorerwamo abayobozi b'ikigo, aho byifashishwa igihe ari gukusanya amakuru cyangwa igihe ari gukusanya ibindi bintu byose yifashisha mu gihe ari kuyobora ikigo runaka, ni byiza ko nk'abayobozi b'ibigo runaka bagira ahantu bakorera kandi heza kandi hari ibikoresho byose bizabafasha mu miyoborere yabo.

Icyumba cy'ishuri kimanitseho ibyapa byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri kugira ngo babashe kubona ibyo bigishwa, aho hariho ubwoko bw'ubutaka ndetse bakabasha no gusobanukirwa ubwoko bwabwo uko buteye binyuze no mu bishushanyo, ni byiza ko tugaragariza abanyeshuri ibyo tubigisha ndetse bikanamanikwa mu mashuri.

Abana ubona ko biga mu mashuri abanza, bari gukina ubona ko bishimye cyane, ni byiza ko abana bose bajyanwa ku ishuri, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibishushanyo bishyirwa mu ishuri kugira ngo bibashe gufasha abanyeshuri kubasobanurira ibintu bitandukanye, cyane cyane abana bo mu wa mbere cyangwa biga mu mashuri abanza, ni byiza ko bitabwaho kugira ngo bahabwe ibikoresho bihagije.

Isomero ni ingirakamaro ku banyeshuri kuko rifasha abanyeshuri kwiyungura ubumenyi. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana amasomero kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi basoma kandi bakora ubushakashatsi.

Ubwiherero ni ingirakamaro cyane ahantu hahurira abantu benshi cyane cyane nko ku ishuri ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi kandi bukitabwaho kuko buba bushobora kuba bwatera indwara kuko haba hahuriye abantu benshi batandukanye, bashobora kuba bafite indwara.

Igipangu ubona gishushanyijeho umunyeshuri afite ubumuga ariko ari kwiga, bigaragara yuko ari ikigo cyigisha abanyeshuri bafite ubumuga butandukanye, ni byiza ko n'abanyeshuri bafite ubumuga bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi nabo babashe kwiteza imbere.

Igikuta ubona ko gishushanyijeho abanyeshuri babiri, umuhungu n'umukobwa, ubona ko bari kujya ku ishuri. Bigaragaza ko icyo ari ikigo cyakira abanyeshuri, abahungu n'abakobwa, bahabwa ubumenyi bw'ibanze ndetse n'ubumenyi bwisumbuyeho. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ikigo.

Abanyeshuri ubona ko bavuye ku ishuri bakiri abana, ubona ko biga mu mashuri y'incuke bavuye ku ishuri, ni byiza ko abana bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi maze bazabashe gukura bajijutse maze biteze imbere.

Umupira wo gukina aho ubanze mu mashashi, aho ukorwa n'abana kugira ngo bifashishe bakore imyitozo ngororamubiri, bakina umupira kugira ngo babashe kwidagadura. Ni byiza ko abana bakiri batoya babanga ino mipira kugira ngo ibafashe kwidagadura.

Ahantu ubona ko hari ibitabo bitandukanye ubona ko ari mu isomero harimo ibitabo byifashishwa igihe abanyeshuri bari gusoma kugira ngo biyungure ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri batozwa gusoma ibitabo kuko ariho haba harimo ubumenyi buhagije.

Abana ubona ko ari abo mu mashuri y'incuke, aho bari guhabwa ibiryo kugira ngo bakomeze amashuri yabo kandi bakomeze kwitabwaho kugira ngo bakomeze gukura bafite ubuzima bwiza, ni byiza ko abana bose bagana ishuri kugira ngo babashe gukura bajijutse.

Abana bo mu mashuri abanza aho baba bagiye ku ishuri bakurikiye ibyo mwarimu ari kubigisha kugira ngo bahabwe amasomo maze babashe gutsinda, ni byiza ko abana bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi babashe gukura bajijutse.

Ikigo cy'amashuri ubona cyubatse neza kandi kirimo intebe zihagije, cyifashishwa mu kwakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, babashe gukura bafite uburezi bufite ireme, ni byiza ko abana bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye, haba abisumbuye ndetse nabo mu mashuri abanza, kugira ngo bahabwe ubumenyi butandukanye babashe kwigishwa maze bazashobore kwiteza imbere bahabwa akazi, ndetse bagire n'ubumenyi ku bijyanye n'ubumenyi bw'Isi.

Abanyeshuri ubona ko bari mu ishuri, babona ko bari gusubiramo amasomo yabo nubwo ari babiri gusa, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugirango ngo babashe guhabwa amahugurwa ndetse n'amasomo, kugira ngo azamure ubumenyi bwabo maze bagire iterambere rirambye.

Iteganyagihe yo kwiga, ni imwe mu mugikoresho kifashishwa hagaragazwa uburyo amasomo y'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, uburyo baziga ndetse n'iminsi bazigiraho kugira ngo babashe kwitegura neza na mwarimu abashe kubona uburyo yabigisha neza.

Abanyeshuri, aho biga kuri iki kigo bahabwa ubushobozi bwo gukoresha ibyo biga mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bakiga neza, ni ikigo iza cyane, aho cyakira abanyeshuri b'ingeri zose zitandukanye.

Icyapa kiba kimanitse mu ishuri aho kiri kugaragaza ibishushanyo n'uko byitwa mu Gifaransa kugira ngo abana b'abanyeshuri babashe kubona ndetse no kwiga babibona ibyo bintu, bityo biborohereze mu masomo yabo.

Ikigo cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahawe imbuto za avoka kugira ngo babashe kujya kuzitera, ni ibyiza ko abana bahabwa imbuto zitandukanye kugira ngo babashe kujya gutera maze bazagire ubuzima bwiza.

Ishuri ubona ko ririmo abanyeshuri, aho bari kwiga bifashishije ibitabo bitandukanye kugira ngo babashe gusoma biyungure ubumenyi. Ni byiza ko tubasha kwita ku banyeshuri tubafasha kwiga kugira ngo bahabwe ibikoresho bitandukanye.

Abana ubona ko bari ku ishuri aho bari ku myicundo bari kugerageza gukina, ni byiza ko abana bahabwa ibikoresho bitandukanye nk'imikino ibafasha kwishimisha ndetse no kwidagadura igihe bari ku ishuri.

Ahantu ubona ko hari umwanda ubona ko hatawe ibipapuro bikoreshwa n'abanyeshuri, biba byiza ko ibipapuro byakoreshejwe n'abanyeshuri bishyirwa ahantu habugenewe kugira ngo bidateza umwanda.

Ikigo cy'amashuri aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo kibahe ubumenyi maze bazabashe gukura bafite ubumenyi ndetse babashe no kwiteza imbere mu byo bazakora cyangwa akazi kabo, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi bufite ireme.

Igishushanyo cyashyizwe mu ishuri kugira ngo gifashe abanyeshuri babashe kwiga ibintu babona cyane cyane abanyeshuri bo mu mashuri abanza. Ni byiza ko twita ku banyeshuri dukoresha ibyapa bigaragaza ibyo bari kwiga kugira ngo babashe kwiga babibona.

Abakozi, aho bari gukora ku bijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, bareba ibibazo bifite, ibikoresho rero byifashishwa mu gihe cy'imyigishirize y'abanyeshuri ndetse n'imyigire yabo.

Abanyeshuri ubona bahurijwe ahantu hamwe kugira ngo habe inama, babwirwa ingamba zafatwa kugira ngo babashe kwiga neza bagira n'imyitwarire myiza, babashe gutsinda amasomo yabo.

Ikibaho cyifashishwa mu kwiga, aho abanyeshuri bashobora kwandikaho na mwarimu akandikaho yereka abanyeshuri ibyo abigisha, aho aba ari kubigisha Imibare, ibijyanye n'umuziki kugira ngo babashe kubyiga banabibona.

Abanyeshuri ubona ko bari gukina bari mu gihe cyo kuruhuka bari ku ishuri, ni byiza ko abanyeshuri bidagadura bagahabwa umwanya wo kuruhuka kugira ngo babashe kwidagadura bakina imikino yabo maze bagire ubuzima bwiza.

Abanyeshuri ubona ko bari kwiga bari gukoresha ikibaho kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi bandika, bakora imyitozo kugira ngo babashe kubifata neza ibyo baba bize. Ni byiza ko abanyeshuri basubiramo imyitozo bahawe bifashishije n'ikibaho.

Abanyeshuri ubona bateraniye ahantu bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'amasomo, aho bose bakurikiye kugira ngo bumve ibyo bari kubwirwa maze babishyire mu bikorwa, ni byiza ko abanyeshuri bose tugana ishuri, kugira ngo twiyungure ubumenyi.

Ikigo cy'imyuga cya Gatagara giherereye mu karere ka Nyanza, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze bazabashe kubukoresha mu buzima bwabo ndetse no mu kazi igihe bazaba ba bakarimo, ni byiza ko tugana ibi bigo kugira ngo biduhe ubumenyi ngiro.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye habaye icyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, aho cyakira abanyeshuri kugira ngo bahabwe ubumenyi butandukanye maze bazabashe kwibeshaho, ndetse n'ubwo bumenyi babashe kubukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imodoka itwara abanyeshuri ibavanye mu rugo ndetse ibajyana ku bigo byabo, ni byiza ko abanyeshuri bagenda mu modoka igihe bagiye kwiga kugira ngo babe baharigwa ku buryo bahura n'ibibazo bitandukanye mu nzira igihe batashye.

Imodoka ubona zitandukanye ziri kujya ku kigo cyakira abanyeshuri, bo mu mashuri abanza, kugira ngo babashe kwitabwaho, maze bahabwe ubumenyi ndetse n'uburezi bufite ireme, ni byiza ko abanyeshuri bose bigishwa neza kandi bahabwa uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri ubona ko bateraniye ahantu mu mahugurwa kugira ngo bahabwe amahugurwa ku bijyanye n'amashuri ndetse n'ibyo bigishwa, ni byiza ko abanyeshuri bitabira ishuri kuko ribafasha kwagura ubumenyi bwabo maze bakabaho ari abantu bajijutse.

Ikigo cy'amashuri ubona cyubatse neza, cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, babashe kwibeshaho kandi bagure imitekerereze yabo, maze bazabashe kubona akazi mu gihe kizaza. Ni byiza ko abanyeshuri bagana ibigo kugira ngo bahabwe ubumenyi burambye, maze baziteze imbere.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri bambaye neza kandi bafite ubushake bwo kwiga. Ni byiza ko abana bose tubohereza ku ishuri kugira ngo bahabwe ubumenyi maze bazabashe kwiteza imbere mu buzima bwabo.

Ikibuga giherereye mu ishuri ubona ko gikinirwaho umukino w'amaboko, ni byiza ko abanyeshuri bagira umwanya wo gukina bakidagadura kugira ngo babashe kugorora ingingo kandi baninanure mu gihe baba barushye bari kwiga.

Abanyeshuri ubona ko bari kujya ku ishuri, ubona ko bari kwerekeza ku kigo aho biga. Ni byiza ko abanyeshuri bose n'abandi bana batiga bagana ishuri kugira ngo babashe kubona ubumenyi, buzabafasha kwagura imitekerereze yabo ndetse no kwihangira umurimo.

Ikigo cy'amashuri ubona cyubatse neza mu buryo bw'amagorofa, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kwigishwa, bahabwe ubumenyi bw'ibanze n'ubwisumbuye, maze babashe kwiteza imbere babone akazi, bivuye muri ubwo bumenyi baba bahawe.

Ikigo ubona gihagazeho abanyeshuri ndetse n'abarezi babo, aho bari kwifotoreza imbere y'ikigo. Ubona ko ari ikigo gitanga uburezi bufite ihame, ni byiza ko abanyeshuri bagana iki kigo kugira ngo bahabwe uburezi bufite ireme.

Abantu ubona ko bari kubaka ikigo cy'amashuri, aho bari kubaka igipangu kugira ngo ikigo cy'amashuri kibashe kugira igipangu kimeze neza bityo biririnde umutekano w'icyo kigo, ni byiza ko twubaka amashuri kugira ngo dushyigikire iterambere ry'uburezi.

Abanyeshuri ubona ko bari gukora isuzuma ry'isomo runaka kugira ngo habashe kuba hamenyekana ikigero cy'ubumenyi bakuye muri iryo somo, ni byiza ko abanyeshuri biga ariko hakagira n'igihe cyo kubazwa kugira ngo hapimwe ikigero cyabo ndetse n'ubumenyi bamaze kugira ku bijyanye n'iryo somo.

Abanyeshuri aho bari kuri mudasobwa bari gukora ubushakashatsi ndetse banihugura kuri mudasobwa kugira ngo babashe kugira ubumenyi ku bijyanye n'uburyo bwo kuzikoresha. Ni byiza ko abanyeshuri begerejwe ibikoresho bitandukanye kugira ngo bagireho ubumenyi cyane cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bari kumwe n'abayobozi babo, aho bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo berekane yuko bafite abanyeshuri beza kandi batanga n'uburere bwiza. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana iki kigo kuko ari cyiza cyane kugira ngo bahabwe ubumenyi bwiza kandi bufite ireme.

Ishuri ubona ko ryigirwamo imibare kugira ngo bafashe umunyeshuri kwiga neza aho baba bakoresheje ikibaho kugira ngo babashe gusobanurira umunyeshuri ndetse n'uburyo bwo kumwereka uburyo bwo gukora imibare. Isomo ry'imibare ni byiza ko turyitabira kuko rifasha gukangura imitekerereze yacu.

Abanyeshuri bari mu ishuri, aho mwarimu ari kubigisha ari kugerageza kwandika ku kibaho, ari kubigisha isomo ry'imibare kugira ngo bakomeze bige kandi babashe kumva ibyo ari kubigisha.

Umunyeshuri aho ari mu isomero, ari gukora ubushakashatsi ku bigendanye n'ibitabo ari gusoma kugira ngo yiyungure ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bashishikarizwa gusoma cyane kuko ari yo soko y'ubumenyi.

Ahantu hari ibitabo bitandukanye bigaragara ko ari mu isomero, ni byiza ko abanyeshuri bagira isomero ryihariye kandi rihagije kugira ngo babashe gusoma ibitabo maze bakuremo ubumenyi bubafasha mu myigire yabo.

Imodoka ubona ziri gutwara abanyeshuri zibajyanye ku bigo bigaho, ni byiza ko abanyeshuri bagira kwiga igihe kugira ngo babashe kugera ku ishuri bategure amasomo yabo ndetse n'uburyo baziga.

Abanyeshuri ubona ko bateraniye ahantu hamwe bari guhabwa amahugurwa n'abandi banyeshuri bagenzi babo bamwe hari ibyo bari kugaragaza, kugira ngo babashe kungurana ubumenyi maze babashe kwiteza imbere, bagura imitekerereze yabo.

Umunyeshuri ubona ko ari mu isomero, aho ari kugerageza gusoma ibitabo bitandukanye kugira ngo akuremo ubumenyi, ni byiza ko abanyeshuri bagana isomero kugira ngo bakuremo ubumenyi kuko ari yo soko y'ubumenyi.

Abanyeshuri ubona ko bari kwiga, bari gufashwa na mwarimu, aho ari kubigisha isomo ry'Imibare, ari gufasha umunyeshuri umwe mu buryo bwo gushushanya. Ni byiza ko abanyeshuri bose bakurikira igihe bari kwigishwa na mwarimu.

Ikigo cy'amashuri cya Elena cyakira abanyeshuri b'ingeri zose, kugira ngo bahabwe ubumenyi babashe gutsinda neza amasomo yabo kandi bazi ibyo bize bizabafashe gutegura akazi kabo k'ahazaza maze babashe kwiteza imbere.

Abanyeshuri bahuriye ahantu hamwe, ubona ko bari guhugurwa cyangwa bari kwigishwa ku bijyanye n'isomo runaka kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi ndetse babazamurire n'ubumenyi bwabo, ni byiza kwitabira ishuri kuko ni ingenzi ku bana bacu.

Abanyeshuri ubona ko bari hamwe bari kwiga. Ubona bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kubona ibyo bari kwiga. Aho bari kureba amashusho cyangwa video zigaragara kugira ngo babashe kwiga.

Ikigo cy'amashuri cya Karubanda giherereye mu karere ka Huye, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze babashe kwiteza imbere binyuze mu byo biga, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ikigo kandi kibaha ubumenyi bwizewe.

Icyumba cy'isomero aho cyifashishwa abanyeshuri basoma, bakora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi, binyuze mu gusoma ibitabo bitandukanye, bigendanye n'ibyo biga, maze babashe kugira amanota meza mu masomo yabo.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi butandukanye maze bazabashe kwibeshaho mu buzima bwabo bwo hanze. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo bunguke ubumenyi.

Abanyeshuri aho bari gukora isuzumabumenyi kugira ngo hapimwe ikigero cy'ubumenyi bafite, maze mwarimu abashe gushyiramo ikigero cye mu kubigisha hagendewe ku batsinzwe ndetse n'abatsinze neza babashe gufasha abandi.

Igitabo cyo mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye cy'ikinyabutabire, aho cyifashishwa mu kwigisha abanyeshuri biga iri somo ry'ikinyabutabire kugira ngo babashe kwiga neza, babona ibibafasha kwiga.

Abanyeshuri bari ku kigo cy'amashuri ubona ko bambaye neza cyane bagiye kwihugura ubumenyi, ni byiza ko twohereza abana bacu ku ishuri kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi maze bazabasheho kwiteza imbere maze bagire ubuzima bwiza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri biga mu mashuri abanza kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze, babashe kwaguka mu mitekerereze yabo ndetse n'ubumenyi busanzwe kugira ngo bazabashe kwibeshaho, ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri.

Ababyinnyi ba gakondo, ubona ko bari guhamiriza neza cyane kandi bari mu myiyereko. Ni byiza ko twiga kubyina kandi imbyino za gakondo, kugira ngo dukomeze gususurutsa abantu, kandi binabere urugero ku bantu bose baje kwirebera, kandi batahe bishimye.

imodoka ubuna iri kwerekeza ku kigo cy'amashuri ubonana cyigisha abanyeshuri bageze mu mashuri yisumbuye, kugira ngo bahabwe ubumenyi buzabafasha gukoresha abakozi ndetse n'akandi kazi kabo bwite, kugira ngo babashe kwiteza imbere babona amafaranga.

Ikigo cy'amashuri aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi haba amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye kugira ngo babashe kugira ubumenyi buzababeshaho bahabwa akazi maze babashe kwiyiteza imbere.

Abana bo mu mashuri abanza, aho baba bari kwiga bakurikira ibyo bari kwigishwa na mwarimu. Ni iby'agaciro cyane kuba abana bose bagana ishuri, kugira ngo babashe gukura bajijutse, kandi babashe kwibeshaho.

Abanyeshuri ubona ko bavuye ku ishuri hari umuhungu n'umukobwa bavuye kwiga kugira ngo bazabashe gukuza ubumenyi bwabo, abanyeshuri bose n'abana batagiye ku ishuri ni byiza ko bashishikarizwa kugana ishuri.

Abanyeshuri bateraniye ahantu ubona ko bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'inyigisho zabo kugira ngo babashe kwiga neza, kandi bubahiriza amabwiriza bahabwa n'abayobozi babo, ni byiza ko twita ku bana bacu tubohereza ku ishuri.

Imodoka zitwara abanyeshuri igihe bagiye kwiga, zibageza mu bigo byabo aho biga. Ni byiza ko abanyeshuri bagenda mu modoka igihe bagiye kwiga, igihe ari kure kugirango bagereyo amahoro kandi bagereyo kare, bibarinde kuba bakererwa.

Ikigo cya Gahogo cy'Abadivantisite kirimo icyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'amashuri yisumbuye, aho cyakira abanyeshuri kugira ngo kibahe ubumenyi butandukanye harimo: ibijyanye n'imibare, ibijyanye n'ubutabire ndetse n'ubukungu n'ubumenyi bw'Isi.

Abanyeshuri ubona ko bicaye ariko bari gukora isuzumabumenyi kugira ngo hapimwe ikigero cy'ubwenge bwabo, ni byiza ko dupima abanyeshuri bacu ikigero bagezeho cy'ubumenyi bwabo bitewe n'ibyo bigishijwe kugira ngo habashe kuba hakongerwa imbaraga zo kubigisha.

Ikigo cy'amashuri cya Birambo, aho cyakira abanyeshuri batandukanye haba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kugira ngo bahabwe ubumenyi bw'ibanze ndetse n'ubwisumbuye maze babashe kujijuka. Aho ku kigo hagaragara abanyeshuri batandukanye kandi bambaye neza.

Abanyeshuri ubona ko bari ku ishuri, bari kugerageza kujya mu ishuri kubera ko amasaha yabafashe. Ni byiza ko abanyeshuri bose bajya ku ishuri, kugira ngo bahabwe ubumenyi buzabafasha mu kazi kabo bamaze gusoza amasomo yabo kandi Igihugu kigire abanyeshuri bajijutse.

Icyumba cyiza cyane ubona ko hatangirwa uburezi kandi hubatse neza, ni byiza ko ahantu hose haba hari ibyumba bimeze neza kugira ngo hatangirwe uburezi bufite ireme.

Inyubako nziza cyane ubona ko yakirirwamo abanyeshuri kugira ngo bahugurwe ndetse bahabwe n'ubumenyi kugira ngo bazabashe kwiteza imbere, ubwo bumenyi babukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi maze bagire ubuzima bwiza.

Ikigo cyubatse neza cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kwigishwa bahabwe ubumenyi butandukanye, ni byiza ko twohereza abana bacu ku mashuri kugira ngo babashe kwiga neza maze bagire ubuzima bwiza.

Abarimu ubona ko ari muri sale yabo ari gutegura amasomo ndetse n'uburyo bagiye kwigisha abanyeshuri kugira ngo babahe uburezi bufite ireme, ni byiza ko abarimu bategura amasomo yabo neza mbere y'uko bajya kwigisha.

Umuyobozi bigaragara ko ari gutanga inama ku bijyanye n'iki kigo cya Kitabi, aho ari ikigo gitanga ubumenyi ngiro binyuze mu myuga, aho abanyeshuri bigishwa imirimo itandukanye ndetse n'uburyo bashobora kubikoresha bihangira umurimo.

Abantu bari mu mahugurwa, aho bari guhugurwa ku bijyanye n'ibintu bitandukanye, bahabwa inama kugira ngo bazabashe kwiteza imbere ndetse bagire n'ubuzima bwiza. Ni byiza ko twitabira amahugurwa kugira ngo dukomeze twiteze imbere.

Abanyeshuri aho biga muri Kaminuza ya Huye ishami rya Huye, aho bafashwa kwiga neza bahabwa ubumenyi buhagije kuko baba bigishwa n'ababyize neza kugira ngo ibyo bize bazabashe kubikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyapa kigaragaza amashuri n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hari ibyumba bibafasha kwigiramo amasomo atandukanye, bityo bigatuma bagira ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'amasomo basanzwe biga, kuko ibyo byumba haba harimo ibikoresho bifashisha biga.

Icyumba cy'abarimu ubona ko ari ho bategurira amasomo yabo kandi bakabasha kuruhuka iyo bavuye mu masomo aho bavuye kwigisha, bityo bikabafasha kuhategurira ibintu bitandukanye, haba amasomo mbere y'uko bigisha, ni byiza ko abarimu bagira ahantu habugenewe bategurira amasomo yabo.

Ibitanda byifashishwa aho abanyeshuri biga mu bigo biga babamo bararaho kugira ngo babashe gukurikirana amasomo yabo, aho bamwe baba barara hasi, abandi barara hejuru mu buryo bwo korohereza umubare munini w'ibitanda.

Icyumba ubona cyifashishwa ku ishuri mu buryo bw'imyigire y'abanyeshuri, ubona ko bari kucyitaho bashyiramo ibikoresho bitandukanye, kugira ngo bizabashe gufasha abanyeshuri mu kwiga neza.

Inyubako nziza cyane, aho yakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi maze bazabashe kugira uburezi buzira umuze kandi bige neza, batsinde, maze bazabashe kuba abantu bajijutse.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, imashini ndetse n'ibindi bikoresho, uburiri ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'umunyeshuri igihe yavuye ku ishuri, kugira ngo abashe kubaho afite ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho cyifashishwa mu kwakira abanyeshuri igihe bagiye gukora ubushakashatsi cyangwa bagiye kwiga mudasobwa kugira ngo babashe kwihugura kuri mudasobwa ndetse bakore n'ubushakashatsi.

Inzu nziza ubona ko yakirirwamo abanyeshuri ikabaha ubumenyi butandukanye bitewe n'ibyo wifuza kwiga, kugira ngo bazabashe kugira ubuzima bwiza kandi babashe kwiteza imbere binyuze mu gukora ndetse no kwihangira imirimo.

Icyumba kiza kirimo intebe nziza ndetse n'ameza ubona ko kigirwamo abanyeshuri bo muri Kaminuza kugira ngo babashe guhabwa amasomo yabo kandi bigishwe neza harimo ibikoresho bifashisha biga.

ubukarabiro ubona ko bukoze n'ikoranabuhanga aho buri ahantu hahurira abantu benshi ni byiza ko ahantu hose hahurira abantu benshi hashyirwa ubukarabiro kugira ngo abantu babashe kwisukura maze bagire ubuzima bwiza

Ikintu kimanikwaho amatangazo, aho haba hariho amatangazo y'ibizakorwa mu kigo runaka kugira ngo abanyeshuri bitegure, babone n'igihe bazakorera ibizamini ndetse n'amasuzumabumenyi kugira ngo babashe kwitegura neza.

Ishuri ubona ko ririmo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza, ni byiza ko n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bashyirirwamo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha, harimo nk'ibibaho bya kijyambere kugira ngo babashe kwiga neza.

Ikigo cy'amashuri ubona ko cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, maze babashe gukuza ikigero cy'imitekerereze yabo ndetse no kongera igipimo cy'ubumenyi cyabo, maze babashe gukoresha ibyo bize mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba cyo kuraramo ubona kimeze neza, kirimo ibikoresho n'igitanda kimeze neza, ubona ko ari icyo umunyeshuri yifashisha aryamaho igihe yiga ataha, ni byiza ko tugira ahantu turara hameze neza, kuko na byo bigira uruhare mu myigire yacu.

Ikigo cyakira abanyeshuri batandukanye, aho kibaha ubumenyi butandukanye, ariko ku banyeshuri bari kuminuza amasomo yabo. Ni byiza ko abanyeshuri bose bagana ishuri kugira ngo babashe gukuza ubumenyi, kandi ibyo bize babashe kubikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bahabwa impamyabumenyi.

Icyumba kifashishwa mu kwakira abanyeshuri igihe baba bagiye kwiga kugira ngo bafate amasomo yabo, maze babashe gukuza imitekerereze ndetse no gukora ubushakashatsi ku bigendanye n'ibyo biga. Ni byiza ko abanyeshuri bose bahabwa ibyumba bifite ibikoresho bihagije kandi bimeze neza.

Abayobozi b'ibigo by'amashuri bateraniye ahantu hamwe kugira ngo bige ku ngamba zafatwa kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza kandi batsinde neza. Ni byiza ko abanyeshuri bahabwa uburezi bufite ireme kugira buzabafashe kugira ibyo biga bizabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba kirimo ibitabo bitandukanye ubona ko ari isomero ryifashishwa igihe abanyeshuri baje gusoma amakuru atandukanye cyangwa bashaka ubundi bumenyi, kugira ngo babashe kwiga neza.

Amashuri yubatse mu buryo bw'amagorofa, aho yakira abanyeshuri batandukanye b'ingeri zose kugira ngo bahabwe ubumenyi bwisumbuyeho maze babashe kwigishwa ibizabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba cyo ku bigo by'amashuri, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kwiga, cyane cyane harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho, byifashisha igihe abanyeshuri bari kwiyungura ubumenyi ku bijyanye n'ikoranabuhanga.

Ikigo cy'amashuri aho cyakira abanyeshuri bari kuminuza amasomo yabo kugira ngo babashe kumenyerezwa gukoresha ibyo bize mu buzima bwabo bwa buri munsi maze bahabwe n'ubundi bumenyi buzabafasha gukora akazi kabo.

Inyubako ya kaminuza ubona ko yakira abanyeshuri, kugira ngo bihabwe ubumenyi bwisumbuyeho buzabafasha mu buzima bwabo bwari buri munsi, bahabwa akazi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, kugira ngo babashe kujijuka, babashe kwiteza imbere.

Ibikapu bibiri ubona ko ari iby'abanyeshuri bimanitse ahantu harimo ibikoresho bifashisha mu buzima bwabo bwo ku ishuri, ni byiza ko abanyeshuri biga ariko bakabika ibikoresho byabo ahantu hizewe kugira ngo bibe bifite umutekano.

Umunyeshuri ari mu ishuri, aho ari gukora imyitozo ndetse n'ibindi bibazo ashaka amakuru kuri mudasobwa kugira ngo abashe kugira ubumenyi bufite ireme, aho yifashisha ibikoresho bitandukanye nka terefone ndetse na mudasobwa kugira abashe kubona ubumenyi buhagije.

Ikigo cya Kaminuza y'u Rwanda, aho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho abantu bagana, bakitoza bitewe n'ibyo bashoboye, haba umupira w'amaguru, umukino w'amaboko ndetse n'indi mikino, kugira ngo babashe kugorora ingingo zabo ndetse n'andi marushanwa.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza ubona ko ari ikigo cyigisha abanyeshuri bari kuminuza amasomo yabo, aho baba barangije amashuri yisumbuye kugira ngo bahabwe ubumenyi ndetse bazabashe no kubukoresha bahabwa akazi maze babone uko biteza imbere.

Kaminuza y'u Rwanda, aho yakira abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye kandi batsinze neza kugira ngo bahabwe ubumenyi bwisumbuyeho, maze babashe kuminuza amasomo yabo, maze bazabashe kwiteza imbere bahabwa akazi, babone uburyo babaho neza.

Kaminuza y'imyuga ya Kitabi, aho yakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo babashe kuzamura ubumenyi bwabo, ku bijyanye n'imyuga itandukanye, maze bazabashe gukora imirimo itandukanye bageze mu buzima bwo hanze, ni byiza ko tugana ibi bigo kugira ngo biduhe ubumenyi.

Icyumba ubona ko cyakirirwamo abanyeshuri igihe bagiye gukora ibintu bitandukanye, harimo kuganiriramo ariko ukaba ubona ko kino cyumba gifite umwanda ibirahure byamenekeyemo, ni byiza ko twita ku byumba nk'ibi tubigirira isuku kuko ibi birarahure bishobora kwangiza umuntu unyuzemo.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, aho cyicaramo abayobozi b'ibigo runaka kugira ngo babashe gutegura neza kandi babashe gutanga uburezi bwiza kandi bufite ireme.

Icyumba giteguye neza, ubona ko kiraramo umuntu w'umunyeshuri igihe avuye ku ishuri, yiga ataha. Ni byiza ko umunyeshuri akwiye kurara ahantu heza, kugira ngo bigire uruhare mu myigire ye igihe ari ku ishuri.

Ikigo cya Kaminuza y'u Rwanda aho cyakira abanyeshuri barangije ayisumbuye kugira ngo babashe kuminuza ibyo bize maze bakore ubushakashatsi, bagire amakuru afite gihamya kandi ibyo bize babashe kubikoresha mu buzima busanzwe babona akazi.

Inyubako nziza cyane ya kaminuza, aho yakira abanyeshuri, kugira ngo bahabwe ubumenyi bwisumbuyeho maze babashe kwiyungura ubumenyi binyuze mu bintu bitandukanye, maze bazabashe kwibeshaho bahabwa akazi, maze bagire ubuzima bwiza.

Abanyeshuri ubona ko bari gukora ubushakashatsi bifashishije mudasobwa kugira ngo babashe kubona amakuru ku bijyanye n'ibibazo baba bafite bigendanye n'amasomo, ni byiza ko abanyeshuri bahabwa ibikoresho bihagije kugira ngo babashe kubona amakuru yizewe.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri bafite impano zitandukanye zo gukora ibintu bitandukanye, nk'umugeni, guhanga udushya ndetse n'ibindi bintu byose, haba guhanga imishinga kugira ngo babashe kwagura ibitekerezo byabo babibyazemo imishinga.

Imodoka ya Kaminuza y'u Rwanda aho itwara abanyeshuri ibajyanye ku bice bitandukanye kugira ngo babashe gusura ibintu baba bize banabibona kugira ngo babashe kubimenya neza, ni byiza ko abanyeshuri batemberezwa ahantu hatandukanye bitewe n'ibyo bize kugira ngo babashe kubibona.

Ikigo cyubatse neza, aho cyakira abanyeshuri batandukanye b'ingeri zose kugira ngo bahabwe ubumenyi babashe kwiteza imbere. Binyuze mu kwagura ubumenyi bashake akazi ariko bafite ubumenyi, babashe kwiteza imbere mu byo bakora maze bagire imibereho myiza.

Abanyeshuri bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ibice biba bigize umubiri ndetse n'amagufa aba agize ikiremwamuntu, binyuze mu mashusho abagaragarira aho bari guhugurwa kugira ngo bagire ubumenyi ku bijyanye n'ibice bigize umubiri.

Ikigo cya kaminuza y'u Rwanda, ubonako cyakira abanyeshuri barangije amashurishuri yisumbuye kandi abanyeshuri batsinze neza kugira ngo bahabwe ubumenyi bwisumbuyeho, maze bahabwe n'impamyabushobozi n'impamyabumenyi kugira ngo bazabashe kwiteza imbere babone n'akazi.

Ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ubona byifashishwa mu myigishirize y'umunyeshuri kugira ngo habe haboneka ibikoresho byifashishwa nk'impapuro ndetse n'ibindi bikoresho, ni byiza ko dukoresha ikoranabuhanga kugira ngo dukomeze twubake ireme ry'uburezi.

Ahantu ubona ko hameze neza hari ubwiherero bw'abanyeshuri, aho bahaza ni ngombwa ko hagirirwa isuku kuko hashobora gutera indwara zitandukanye, kubera ko haba hahurira abantu batandukanye.

Icyumba gishashe neza ubona ko ari icyumba kiraramo abanyeshuri biga bataha, ni byiza ko barara ahantu heza kandi hatunganyijwe kugira ngo bakomeze kuba bategura amasomo yabo neza

Ikibuga cyifashishwa mu mukino w'amaboko, aho ari ikibuga gifasha abantu gukora imyitozo ngororamubiri, bityo bikabarinda indwara zitandukanye ndetse hakaba habamo n'amarushanwa maze ababa batsinze bakaba bahembwa.

Ahantu ubona ko hari inyubako zitandukanye, harimo izishaje ndetse n'ishyashya ndetse hari n'umuriro w'amashanyarazi, ni byiza ko dutura ahantu heza kandi hegereye ibikorwaremezo kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Abantu, abantu ubona ko bari mu bushakashatsi bateraniye ahantu hamwe, ubona hari abanyeshuri biga ku kigo cya Tumba kugira ngo bakore ubushakashatsi ku bintu bitandukanye, maze babashe kubona umuti w'ibyo bari gukoraho ubushakashatsi.

Abantu bari gukora ubushakashatsi ku birebana n’ibintu bitandukanye kugira ngo babashe kugira ubumenyi ku byo bari gushakashaka. Ni byiza ko duhabwa ibikoresho bihagije igihe turi gukora ubushakashatsi kugira tubashe kubona amakuru yizewe.

Ahantu heza ubona hanitse imyenda bamaze kumesa, ni byiza ko dusukura imyenda yacu kugira ngo tugire ubuzima bwiza, kandi tuyanike ahantu hameze neza, bityo tuzaba tujijutse nk'abantu bakwiriye kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyiza cyane ubona ko cyubatse neza kandi kirimo ikoranabuhanga n'ibindi bikoresho bitandukanye, aho byifashishwa abanyeshuri bari kwiga amasomo yabo atandukanye, kugira ngo babashe kugira ubumenyi kandi bige neza hari ibikoresho bifashisha biga.

Icyumba kifashishwa n'abanyeshuri igihe baba bari kwiga amasomo yabo, ubona ko ari abanyeshuri bo muri Kaminuza. Ni byiza ko abanyeshuri bagira ibyumba byiza kandi birimo intebe n'ameza bifashishwa igihe bari kwiga kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi.

Imiti yifashishwa itandukanye ndetse no kwereka abanyeshuri uburyo bashaka gukoresha imiti bavura ibintu bitandukanye, haba abantu, aho bahakoresha bigira ibijyanye n'ibinyabutabire, kugira ngo babashe kugira ubumenyi ku bijyanye n'imiti ndetse n'uburyo ikoreshwa ivura abantu.

Umuntu ubona ko ari kwerekeza ku ishuri, ubona ko hari impande hari ikigo cy'amashuri, ni byiza ko tugana ishuri twese kugira ngo dukomeze kuvomayo isoko y'ubumenyi kandi dukomeze kwiteza imbere binyuze mu mirimo dukora, bitewe na bwa bumenyi twakuye mu ishuri.

Abanyeshuri bari gusoza amasomo yabo mu cyiciro cya kaminuza, aho bari mu ishuri bari kwigishwa n'umwarimu wabo ku masomo atandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere, aho bari kwigisha amasomo babireba no ku kibaho kugira ngo babashe kwiga ariko haba hifashishijwe ikoranabuhanga.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza cyane, aho cyakira abanyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe ubumenyi, bahabwe n'impamyabumenyi kugira ngo bazabashe kwiteza imbere bahabwa akazi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, babikore bafite ubushishozi n'ubumenyi buhagije bakuye mu mashuri.

Icyumba cy'abanyeshuri ubona ko cyifashishwa mu gihe umuntu ari kwiga, ni byiza ko twita ahantu nkaha tuhagirira isuku kandi tuhagira umutekano mu gihe umuntu munyeshuri ari kwiga abashe kwiga neza kandi abashe gutsinda.

Ikigo cy'amashuri cyakira abanyeshuri batandukanye, haba abo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye kugira ngo bahabwe ubumenyi buzabafasha kwagura imitekerereze yabo, ndetse no kubona ibyo biga, uburyo babikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ni byiza ko twese tugana ishuri, kugira ngo twiyungure ubumenyi.

Abanyeshuri ubona ko bahuriye mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, ariko bari guhabwa amahugurwa ku bigendanye n'ibyo biga, kugira ngo babashe kwiga kandi bakuze imyumvire ndetse n'imitekerereze ndetse n'ubumenyi bwabo.